Aba ni ibana ubona ko bafite akamwenyu ku isura yabo, bakaba rero baje aha ngaha bitwaje indobo zabo z'umweru kugira ngo babe babasha kuba batahana amazi meza cyane abitse muri kino kigega kiri mu ibara ry'icyatsi.

Uyu ni umwana uri kumwe na mama we ndetse mu bigaragara baje kureba umuganga kugira ngo abe yamutera urushinge rw'urukingo runaka, dore ko akiri umwana kugira ngo atagira izindi ndwara z'ibyuririzi zimufata maze zigatuma yaremba.

Aha ni ahantu hari hateraniye abantu bagiye batandukanya b'ingeri nyinshi, aho bari batewe inkunga n'umuryango ukomeye cyane hirya no hino ku isi, witwa Unisefu, aho urengera uburenganzira bw'abana. Kino gikorwa rero cyari kirimo kiremeza neza ko ubungubu bashyizeho gahunda y'uko umwana wese agomba kurindwa mu gihugu cy'u Rwanda.

Aba ni abagabo ubona ko bambaye neza cyane kandi bakaba bateraniye hano kugira ngo babashe kuba baganira ku ngingo runaka zigiye zitandukanye kandi icyarimwe, banungurana ibitekerezo kandi mu bikomeza kugaragara, buri wese agiye afite inshingano ashinzwe hano.

Aba bagabo bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'abagore babarimo bose mu bigaragara biyunguye ubumenyi cyangwa se bize byimbitse ibijyanye n'ubuvuzi kugira ngo babe babasha kuba batabara ababagana mu gihe baba bahuye n'ikibazo runaka ,maze bakabavura nta kibazo bakoresheje ubumenyi bize mu mashuri yabo.

Uyu mugore wicaye ku ntebe, kandi akaba afite umwana we mu ntoki, yamuzanye hano kwa muganga kugira ngo ubuzima bw'umwana we bubashe kuba bwakurikiranwa atabasha kuba yagira ikibazo, umugore rero uri imbere ye, arimo aha umwana we ibintu runaka kugira ngo bimufashe kuba yakura neza.

Uyu ni umuturage cyangwa se umurwayi wambaye agapfukamuwa, akaba yicaye hasi arimo aterwa urushinge n'umwe mu babyigiye kandi banabifiteho ubumenyi w'umuganga, kugira ngo abe yabasha kuba yamukingira indwara runaka.

Aba ni abantu benshi bateraniye hamwe, bambaye imipira ijya gusa, bakaba rero bazanye n'abana kugira ngo babahe amata mu cyansi, maze bumve ukuntu aba ameze, dore ko umuco wacu hari igihe ugenda uzimira, dore ko abantu bafite n'icyansi cyo kunyweramo amata mu Rwanda, ari mbarwa.

Aba bagore barimo bakoresha uburyo bwo mu cyaro kugira ngo babashe kuba bavoma amazi bifashishije kino cyuma, bayakura mu butaka rero akabasha kuba yabasanga hano maze bakayavoma, bakayakoresha indi mirimo ya buri munsi.

Aba ni abagore ndetse n'inkumi, ubona ko rwose bitabiriye uno murimo wo kuza kuba bavoma amazi bakoresheje ibivomesho byabo, kandi ubona ko batonze umurongo muremure cyane bitewe n'uko hari amazi makeya, cyangwa se abantu bakaba bahabaye benshi.

Uyu mugore cyangwa se umukobwa wambaye umupira w'ubururu witeye igitenge, akaba afite indobo mu ntoki ze, arimo adaha amazi, iruhande rwe kandi hari n'umwana mutoya bigaragara ko ari kumureba cyangwa se yamuherekeje.

Ibi ni ibiganza bigaragara ko ari iby'umwana, akaba rero ateze amaboko ye yombi arimo akaraba intoki ze kugira ngo abe yazisukura neza akoresheje amazi mu bigaragara ko nayo asukuye, ari kuva mu itiyo yabugenewe.

Aba ni abagore ubona ko bari bazindukiye kandi biteze no gukura hano hantu amazi, dore ko bari batonze umurongo mugari kugira ngo babashe kuba bayabona, dore ko hari nabamwe batangiye kuyabona kuberako ari kubageraho ku bwinshi.

Uyu mwana mutoya, arimo ahabwa ibido irimo ibintu runaka n'uyu mugabo wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'ingofero y'ubururu, akaba rero arimo afatwa amashusho n'uno mugore w'umuzungu uri ku ruhande, ufite mudasobwa ngendanwa mu ntoki ze.

Uyu n’umuntu mu bigaragara ubayeho mu buzima bugoye cyane bitewe n'imyenda yambaye y'ubushwanyagurike kandi n'ibintu byakoreshejwe ubona ko bidasa neza hakaba rero bishoboka ko nta n’ahantu afite ho kuba rero akaba ari muri ntugarane.

Aba ni abana b'urungano rumwe aho ubona ko bose ari batoya kandi bakaba bafite n'uburoso barimo bifashisha umuti w'amenyo woza amenyo yabo neza kugira ngo ase neza kandi banafite igikombe mu ntoki zabo, bakomeza rero banagaragara bambaye impuzangano z'ikigo runaka bigaho.

Iyi ni ishusho yafashwe na bimwe mu byuma byakozwe n'abazungu, byifashishwa kugira ngo birebemo imbere y'umuntu, yaba amagufwa cyangwa se ibindi bice bigiye bitandukanye, kugira ngo bifashishe ayo mashusho barimo bamuvura. Uyu we bari barimo bareba amenyo ye niba nta kibazo afite

Uyu mugabo wambaye imyenda y'umweru ari mu cyumba, arimo akoresha uburyo buzwi nk'akadodo kugira ngo abe yakura imyanda yasigaye mu menyo ye, maze abe yakwirinda indwara z'amenyo za hato na hato zishobora kuba zamurwaza.

Aba bagabo bicaye ku mpande z'uyu mugore uryamye kuri iki gitanda, bazobereye cyangwa se bize byimbitse ibijyanye no kuvura amenyo. Bakaba rero bari kubyaza umusaruro ubumenyi bigiye mu mashuri bwo kubaga ibyerekeranye n'amenyo cyangwa se kuba bayitaho ntagire ikibazo.

Uyu ni musaza bigaragara ko yambaye n'amataratara amufasha gusoma neza dore ko mu bigaragara ageze mu izabukuru, amaso ye atabasha kuba yabona neza, mu kiganza cye afashe ku kananwa ndetse n'ikaramu yo kwifashisha mu gihe ashaka kwandika ndetse n'imbere ye hari urupapuro arimo arebaho.

Uyu ni umukecuru ubona ko akuze cyane, afite imvi, akaba rero arimo akora imyitozo ngororamubiri, kugira ngo agumane umubiri mwiza kandi yirinde n'indwara za hato na hato, zituma yaba yarwaragurika.

Uyu ni umusaza ndetse n'umukobwa bari kumwe, ubona ko bishimira bino bihe bagiranye, bakaba rero bashobora kuba bafitanye isano runaka cyangwa se undi mubano ubahuza, ukabona rero ko hari ibintu bishimira cyane iyo bari hamwe.

Uyu mugabo w'ubwanwa bwinshi kandi uri iruhande rw'uyu mugore mu bigaragara ni umuganga bitewe n'aka kantu kazengurutse ijosi rye, uyu mugore rero bari kumwe ashobora kuba ari nk'umurwayi yavuye cyangwa se ari umuntu bafitanye isano ukaba rero ubona ko bano bantu barimo bishimirana.

Aba bagore ndetse n'aba bagabo bambaye imipira ijya gusa n'umutuku, batumiye abana b'abakobwa kugira ngo babashe kuba babaganiriza, dore ko uyu wari umunsi wo kwizihizaho imihango mu buryo mpuzamahanga.

Uyu ni umugabo w'umuzungu wambaye amataratara ndetse n'ingofero, akaba afashe rero igipapuro, avuga ko ubushita bw'inkende urukingo rwabwo rwabonetse nonaha kano kanya warubona.

Iri n’itangazo ryari ririmo rimenyesha ko mu kwa kane kuva tariki zirindwi kugera tariki umunani umwaka wa bibiri na makumyabiri n’agatanu ahantu hitwa vancouver muri Canada hazaba igikorwa cyo ku nshuro ya karindwi cyitwa womens health and cancer awareness.

Abitwa NCD bari bifatanyije n'igihugu cy'u Rwanda maze batanga icyumweru cyo kumenyekanisha ko diyabete iriho kandi bagomba no kuyirinda bakaba rero barabiteguye tariki cumi n’eshatu na cumi n'enye kugeza kuri cumi n’eshanu z'ukwa cumi na kumwe mu mwaka w’ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane.

Iki ni icyumba ubona ko ari cyiza cyane kandi cyubakanye ikoranabuhanga kikaba rero gifite ibitanda byinshi aho abarwayi cyangwa se indembe babashyira maze bakaba bakurikiranwaho na ba muganga mu gihe ababarwaje nabo baba bafite udutebe two kwicaraho hirya kuruhande.

Iki ni kimwe mu byumba biba kwa muganga, aho umuntu wabyigiye ndetse akaba anabifitiye ubushobozi, aza gusuzumira umurwayi ndetse akanamwakira, ari kureba ko amaso ye nta kibazo afite cyangwa se akeneye kwambara amataratara kugira ngo amufashe kureba neza.

Uyu mugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara arimo azingura inzitiramibu kugirango abashe kuba yayisasira uno murwaye cyangwa se indembe iryamye kuri kino gitanda, imibu itaza kumurya hato akarwawana na malariya. Ah angaha bari rero ni icyumba cyakira indwayi cyangwa se indembe mu buryo bwa rusange mu bitaro.

Aba ni abantu b'ingeri zigiye zitandukanye, aho harimo abapapa, abamama, abasaza ndetse n'abakambwe, ubona ko bose bahurijwe hano hamwe, biteguye kwakira gahunda yabazinduye maze bakayihabwa neza.

Iki ni icyumba cyifashishwa kugira ngo babashe kuba bakurikiranira hafi, abarwayi cyangwa se indembe mu buryo bwa hafi, bikozwe n'abaganga kugira ngo bataza kugira ikibazo na kimwe kibahutaza cyangwa se kibangamira ubuzima bwabo.

Uyu mugabo wambaye imyenda y'ubururu urimo ureba muri mudasobwa iri imbere ye, arimo areba ishusho yafashwe na bimwe mu byuma bikaze cyane cyangwa se byubatswe mu buryo bw'ikoranabuhanga byifashishwa mu kureba ibintu biri imbere mu mubiri w'umuntu.

Iri ni iduka, ubona ko ryubatswe mu buryo bwiza kandi bugezweho, bakaba rero bacuruza ibijyanye n'amataratara cyangwa se amadarubindi, bakayaha umuntu utabasha kubona neza, maze akamufasha mu kuba yabona ibintu nta kibazo afite.

Iki ni icyumba kiba mu bitaro, bakaba rero bacyakiriramo umurwayi cyangwa se indembe kugira ngo babashe kuba bakurikirana ubuzima bwayo, ku ruhande rero hakomeza hagaragara icyuma kifashishwa mu kugira ngo umuntu abe yabasha kugenda kandi n'ingingo ze zigororoke.

Iyi ni inzu yubatse mu buryo bwiza cyane kandi bugezweho bubereye ijisho, ikaba rero ari inzu nini cyane bigaragara ishobora kwakira abantu benshi icyarimwe, maze bakaba bayikoreramo ibikorwa bigiye bitandukanye nko kwiga cyangwa se bagakoreramo inama.

Ibi ni ibyuma byifashishwa kugira ngo umuntu abe yabasha kuba yakora imyitozo ngororamubiri, maze umubiri we urambuke kandi ube unakomeye, ku buryo nihagira icyo yarwara, ataba yaremba cyane kubera ko umubiri we uba ukomeye cyane.

Iki ni icyumba ubona ko cyubatswe mu buryo bwiza kandi bwa kijyambere bugezweho kikaba rero kirimo ibikoresho byifashishwa mu gihe umuntu yaba ashaka gukora imyitozo ngororamubiri nko kwirukanka cyangwa se guterura ibyuma kugira ngo abe yabasha kugira umubiri mwiza cyane.

Uyu muntu wambaye itaburiya y'umweru ndetse akaba anambaye ga mu ntoki ze, afitemo n'urushinge, mu bigaragara ni muganga akaba yari arimo atera umuti muri uno murwayi cyangwa se inbembe yicaye hano ku ruhande, kugira ngo ibe yabasha kuba yakira kandi inoroherwe.

Iki ni icyumba cyo mu bitaro mu bigaragara, gishobora kuba cyifashishwa mu kwakira abarwayi cyangwa se indembe runaka, maze bakabasha kuba bakurikiranwa hafi n'abaganga b'inzobere babishinzwe. Uyu mugore rero uri imbere na we arimo atambuka, ubona ko ashobora kuba afite izindi nshingano hano muri ibi bitaro.

Ibi ni bimwe mu bitaro bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, bizobereye mu kuba byavura by'umwihariko indwara zose cyangwa se ibibazo byose umuntu yaba yahuye nabyo, byerekeye n'ijisho rye, maze bakamufasha rwose nta kibazo kuko afite n'inzobere zibizi neza.

Abo bose uko bari hano ni abagore kandi b'abaganga ikindi bambaye agapfukamunwa ndetse n'imyenda y'akazi iri mu ibara ry'ubururu bakaba bakorera ihuriro ryitwa legacy clinics.

Aha ni ahantu hitwa kwa Nyirinkwaya, ku bitaro byitwa La Croix du sud, akaba rero ari ahantu haza indwayi cyangwa se indembe kugira ngo zibe zavurwa, impande yaho kandi unabona ko hakomeza na none hagaragara ibindi bikorwa rusange.

Iki ni icyumba kiba kwa muganga aho babasha kuba bagikoresha kugira ngo, bagorore ingingo za bamwe mu barwayi cyangwa se indembe, maze zisubire ku murongo zongere gukora neza nka mbere, nk'uyu mugabo barimo bazigorora izo mu matako kugira ngo zongere zikore neza.

Uyu n’umugabo cyangwa se umusore ubona ko yabashije kuba yakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo abashe kuba yagira ubuzima bwiza kandi buhanitse akaba rero yarimo anywa amazi nk'uko twese tubizi ko ari ingenzi ku buzima bwacu.

Iki ni ikirangantego cyo mu Rwanda cy'ishyirahamwe rihakorera cyitwa Rwanda Judo Federation rikaba ririmo ryerekana abagabo babiri barimo barwana, umwe yambaye iby'umweru undi yambaye iby'ubururu. Rero bano bantu bakaba bafasha mu kwigisha abantu ingwano yitwa judo.

Iri cupa ryari ririmo amazi none bari kuryifashisha bayakura mu icupa, bakayashyira mu kirahure kugira ngo abe yabasha kunyobwa neza cyane, amazi rero nk'uko tubizi twese ni ingenzi mu buzima bwacu bwa buri munsi, dore ko anadufasha mu kweza mu bihingwa byacu ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye.

Ibi ni bimwe mu bikoresho byifashishwa na bamwe mu baganga cyangwa se abantu babifiteho ubumenyi kugira ngo babe bafasha ababo cyangwa se abandi bantu bagize ikibazo runaka, maze babahe ubutabazi bw'ibanze, bajye kugera ku bitaro nta kibazo gikomeye baragira.

Aha hari ibintu byinshi nk'ibikoresho umuntu yashobora kwifashisha mu gihe ashaka gukora imyitozo ngororamubiri nko gusimbuka umugozi cyangwa se kwirukanka akoresheje zino nkweto ziri haruguru, hakomeza rero hagaragara n'ibiryo cyangwa se imbuto ziri ku ruhande, umuntu yakoresha kugira ngo abe yagira intungamubiri nyinshi mu mubiri we.

Uyu ni umwe mu miti wifashishwa cyangwa se uhabwa abarwayi bafite ububabare bugiye butandukanye nkubw'umugongo cyangwa se imikaya, kugira ngo bubashe kuba bwagabanuka, bwifashishijwe n'ino miti yabugenewe.

Aba bagabo cyangwa se abasore barimo birukanka muri kino kibuga, urabona neza ko babyambariye kandi banabyiteguri, kubera ko bambaye ibitababuza kwirukanka nk'umukino cyangwa se imyitozo barimo.

Uyu mugabo wicaye ni umurwayi, ubona ko barimo bamugira inama yo kuba yaterura ibiro kugira ngo abashe kuba yakira neza indwara cyangwa se imvune yari afite mu mubiri we neza nta kibazo abasha kuba yagira.

Uyu rero ni umugabo, mu bigaragara akaba ari umuntu wakoze imyitozo ihambaye, akaba afite umubiri mwiza cyane, akaba rero nanone yicaye kuri uno mucaca, mu bigaragara ashobora kuba yagize ikibazo mu itako rye.

Ibi ni ibimera ubona ko ari byiza cyane n'amababi yabyo akaba ari meza bikaba rero byarashyizwe mu bikombe kugira ngo bibashe kuba byakurikiranwaho umunsi ku wundi maze babyiteho kugeza aho bagiye kubiterera mu butaka bugari.

Uyu ni umuti witwa revive ukaba rero wagabanyijweho mirongo itatu ku ijana byayo wari usanzwe ugura ukaba rero uzwiho mu kuvura mu kurangiza vuba gucika intege mu gihe uri gutera akabariro ingaruka zo kwikinisha ndetse ukanakumira indwara zifata prostate.

Aya ni amavuta mu bigaragara abereye ijisho cyane kandi akaba akozwe no mu bimera kugira ngo abashe kuba yarinda uruhu rw'umuntu wabasha kuba wayisiga, maze ahorane itoto kandi uruhu rwe ruhore rumeze neza.

Uyu ni umwe mu miti gakondo yifashishwaga cyangwa se na n'ubu ikaba igikoreshwa, mu kuvura indwara runaka zigiye zitandukanye cyangwa se ibimenyetso, mu gihe uno muti wabaga warakozwe mu bimera bigiye bitandukanye mu buryo bwa karemano.

Ibi ni ibimera by'amoko agiye atandukanye, ubona ko kandi ari byiza cyane bibereye ijisho, byagiye bifatwa amashusho kugira ngo bibashe kwigwaho cyangwa se bibashe kuba byakurikiranwa, maze bamenye ibibigize.

Aha ni ahantu ubona ko hari ikirere cyiza ndetse cy'ubururu hari n'ibicu bikeya, mu bigaragara rero nta mvura yenda kuba yagwa, munsi y'iki kirere hakomeza nanone hagaragara ubwatsi bwiza cyane ndetse n'ibiti ubona ko bibereye ijisho.